Impamvu ibigo bimwe na bimwe bitandukanye bigira ababigana benshi, ahanini biterwa n'uburyo abakozi babyo bakira ababigana, iyo bakiriye neza ababigana ejo n'ejobundi ababigana baragaruka cyangwa se batagaruka bakazabarangira abandi.

Ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda kenshi usanga biba bifite abantu babihagarariye, abo babihagarariye bashobora kuba ari abanyarwanda cyangwa se ari abanyamahanga ariko kuba bikorera mu Rwanda bivuze yuko bikorera abanyarwanda.

Hari uburyo bwinshi bwo gushinganisha ubuzima bwawe, umuryango wawe, cyangwa se gushinganisha ibikorwa byawe binyuze mu kwizigamira, ubifashijwemo n’ibigo bitandukanye by’ubwishingizi biri mu gihugu.

Mu gihe cyose uhuye n'ikibazo cyangwa se uhuye n'impanuka biba byiza iyo uhise umenyesha ikigo cy'ubwishingizi mu rwego rwo kugira ngo kikugoboke cyangwa se kigufashe muri iyo mpanuka uhuye nayo ibyawe byangiritse cyangwa byangijwe ubyishyurwe.

iIyo ufite ubwishingizi mu kigo runaka ubaho utekanye kandi wishimye, kubera ko uba utekereza ko ikibazo cyose wagira hari ikigo runaka gishobora kukugoboka bitewe n'uko mubanye cyangwa se bitewe n'uko uyu ubitsamo amafaranga kikakugoboka.

Biramenyerewe y'uko ubundi hasanzwe hariho ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye, aho umuntu ashobora gushaka ubwishingizi bwe ku giti ke, ubw'inzu ye, cyangwa ubw'ibikorwa bye runaka, ariko kuri ubu ngubu hari n'ubwishingizi bw'ishingira amutungo, urugero ugashinganisha nk'umushinga wawe w'inkoko, igihe cyose ugize ikibazo bakazakugoboka bakagufasha.

Iyo ugiye kuva mu gihugu ujya mu kindi, biba byiza iyo ugiye mu kigo cy'ubwishingizi ugashinganisha ubuzima bwawe cyangwa se ibikorwa byawe mbere yuko ugenda, kuko ntawamenya inzira ntibwira umugenzi. Hari igihe ushobora kugenda ugakora impanuka cyangwa se bikagenda ukundi kuntu, ariko iyo ufite uko wizigamye cyangwa se wiyandikishije muri ibyo bigo by'ubwishingizi, iyo ukoze impanuka birakugoboka.

Imodoka y'ikigo cy'igihugu cya polisi y'u Rwanda, ishinzwe mu kuzimya umuriro ndetse no gutabara abaturage bahuye n'inkongi y'umuriro, kugirango ibafashe mu kuwuzimya hatagize uwo wangiza cyangwa ibyo wangiza.

Nyuma yo kumenya ko umushinga w'ingurube ari umushinga wunguka kandi vuba, abantu benshi batangiye kuwujyamo ndetse banawukora babikunze ariko bitewe n'ibibazo bimwe na bimwe bigenda bibonekamo'uwo mushinga w'uko ingurube zigira ibibazo zikarwaragurika cyangwa se zigapfa niyo mpamvu haje n'u ubwishingizi bwishingira ayo matungo y'ingurube mu rwego rwo kugira ngo umuntu ugihuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ajyagana ubwo bwishingizi bumugoboke.

Ushobora kugura cyangwa se kwishyura igicuruzwa runaka ariko mu kwishyura ugakoresha amafaranga wabikije kuri banki bitabaye ngombwa y'uko ujya kuri banki ngo ujye kuyabikuza ahubwo ukifashisha terefone ngendanwa wishyura ayo mafaranga kandi bigakunda.

Hari uburyo bwinshi bwo kwakira amafaranga ndetse no kuyohereza binyuze ku buryo bw'ikoranabuhanga, bitabaye ngombwa ko abantu babiri bahura ngo umwe ahereza undi amafaranga, ahubwo bakayahererekanya binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ugomba kuyakira akayakira mu buryo bwiza ndetse n'ugomba kuyohereza akayohereza mu buryo bwiza.

Inzu zicuruza imyambaro y'ubwiza ku bagore no ku bagabo, ni inzu ushobora guhita umenya ukigera ku marembo yayo kuko usanga hihariye usanga n'ibihatatse cyangwa se uburyo hakoze hatandukanye n'izindi nzu z'ubucuruzi izo arizo zose.

Ifoto iragaragaza iduka ririmo abantu babiri imbere yabo hateretse mashini, iyi mashini bigaragara kandi hifashishwa mu gutanga fagitire ya ibiyemu cyangwa se icyo bita inyemezabwishyu igaragaza igiciro cy'ikiguzi umuturage atwaye.

Hirya no hino usanga hari amaduka atandukanye ariko hari n'ayo usanga acuruza ibicuruzwa bikenerwa na rubanda rugufi, aho usanga bacuruza ibintu byiganjemo imbuto ibyokurya biciriritse n'ibindi bidakorerwa mu nganda cyangwa se ngo bibe byatunganyirijwe ahandi hantu runaka.

Hirya no hino mu masoko acuruza imyenda mu rwego rwo kwamamaza ubwiza bw'imyenda bacuruza, usanga imwe bayicururiza hanze indi bakayicururiza mu nzu, hari iyo baba basohoye hanze nko kwereka abakiriya imyenda bafite n'ubwiza bwayo, hari n'indi iba iri mu nzu icururizwa mu nzu.

Nk'uko tubizi agahugu umuco akandi umuco. Ntabwo bigarukira mu kuvuga aho, biragenda umuco ukagenda ugafata mu myambarire ndetse no mu mibereho y'abaturage ya buri munsi, ariyo mpamvu dushishikarizwa cyane nk'abaturarwanda guteza imbere iby'iwacu, ibikorerwa mu Rwanda, ibidoderwa iwacu kugira ngo dukomeze dushyigikire iterambere ry'igihugu cyacu.

Habaho amasoko atandukanye ariko hakabaho n'amasoko acuruza imyenda, aha amasoko acuruza imyenda ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi kuko umwenda ni igicuruzwa cyangwa se ikintu nkenerwa mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kugira ngo bigende neza kuko ntibishoboka ko umuntu yagenda atambaye imyenda ngo bikunde.

Akazi k'ubucuruzi ni akazi gatunze abantu benshi ku isi, usanga aho umuntu atari umuhinzi aba ar'umucuruzi bivuze yuko akazi k'ubucuruzi kabamo inyungu nyinshi ugereranyije n'akandi kazi kose ushobora gukora.

Hirya no hino ku mijyi ku maduka yateye imbere ku marembo yayo maduka usanga hari ibishushanyo bikoze neza neza nk'abantu bakanabyambika imyenda neza ukagira ngo ni umuntu ariko ibyo byose aba ari mu rwego rwo kwamamaza ibyo bakora kugira ngo ukunze uwo mwenda aze awugure.

Hose hacuruzwa imyambaro y'abagore cyangwa se igitsina gore ni byiza yuko iyo myambaro ishyirwa hamwe ndetse ikamanikwa no ku tuntu duto dutoya tumeze nk'uduti mu rwego rwo kugira ngo bamurikire ababagana iyo myambaro bityo na bo baze bazi neza umwambaro bagiye kugura uwo ari wo.

Ubucuruzi bw'imyenda ni ubucuruzi bwateye imbere cyane, aho usanga abantu bacuruza imyenda aribo bantu bagira abakiriya cyane kubera yuko ku isi hirya no hino usanga ntamuntu uba utambaye umwenda kandi uwo mwenda aba yarawuguze, rero aho aba yarawuguze aba yarabateje imbere.

Hirya no hino mu gihugu usanga haba hagiye hari ubucuruzi butandukanye nk'ubwo bucuruzi hagenda habamo n'ubucuruzi bw'imyenda. Ubucuruzi bw'imyenda n'ubucuruzi bufite agaciro gakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko umwenda na uri mu by'ibanze umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi.

Amaduka acuruza imyenda itandukanye, cyane cyane imyambaro ikunze gukoreshwa n'igitsina gore, ni byiza yuko agomba kuba afite uburyo butandukanye bwo kwamamaza iyo myenda acuruza mu rwego rwo kongera umubare w'ababagana, kuko iyo ukugana iyo abonye ibyo ucuruza, ni bwo bimutera kuza kureba ibyo ngibyo ndetse bikamuviramo no kubigura.

Gutunga imodoka se cyangwa kugenda mu modoka y'inzozi zawe ntibikiri ngombwa yuko uyitumiza mu mahanga cyangwa se ngo ujye mu mahanga kuyizana, kuko hirya no hino mu mijyi itandukanye, mu gihugu usanga harimo inganda ndetse n'amaduka acuruza imodoka, yazikuye hanze ku giciro cyiza kandi akazitanga kuri buri umwe wese ufite ubushobozi bwo kuba yayigura ndetse no kuyitunga.

Mu modoka imbere ni ahantu hagomba kuba hakoranye ubuhanga bwihariye ku buryo umutwazo w'ikinyabiziga mu gihe yicaye mu modoka agomba kuba atunganye nta kintu na kimwe afite kimubangamiye no mu gihe atwara ikinyabiziga mu muhanda agatwara ikinyabiziga atunganye bityo bikaba mu buryo bumwe bwo kumufasha kwirinda impanuka zibera mu mihanda.

No kuba ushaka imodoka yo kugura cyangwa gukodesha, ntibikiri ngombwa y'uko ujya mu mahanga cyangwa ngo uyitumize mu mahanga kuko hirya no hino mu gihugu, usanga hari ibigo byegereje abaturage izo modoka zigurishwa ndetse n'izikodeshwa kandi ku giciro cyiza bityo uyikeneye akayibona bitamugoye.

Imodoka zose ziba ari imodoka kuko ziba zitwa imodoka kandi zikanagendera ku mapine ane, ariko iyo ugiye mu biciro cyangwa se ugiye mu buryo zikorwa ndetse n'aho zikorerwa usanga hatandukanye, kuko hari ibigo bitandukanye byinshi bizikora kandi bikanazicuruza ku bicuruzwa bitandukanye.

Imodoka z' abacungagereza n’ ingirakamaro cyane kuko zifashishwa bajyana imfungwa kwa muganga cyangwa se bajyanye imfungwa kuyiburanisha mu buryo bworoshye bidasabye amafaranga yo kuzitegera cyangwa se ubundi buryo bityo rero dukwiye kuzibungabunga tukazicungira umutekano nk'uko bikwiye.

Mu gihugu habamo amasoko atandukanye acuruza imodoka ariko ayo masoko yose aba atandukanye bitewe n'ubwoko bw'imodoka acuruza, ikizakubwira isoko ricuruza imodoka ni uko uzarisangana ikirango cy'imodoka runaka, ubwo iyo modoka niho izaba yaraguriwe cyangwa se ariho igurirwa.

Imodoka zose nibwo tuzibona mu mihanda, ariko zijya kugera mu mihanda zifite aho zaturutse. Aho ziba zaraturutse nta handi, ni hariya zigurishirizwa cyangwa zigurirwa. Ahongaho ni ho ushobora gusanga imodoka z'ubwoko bwose, bitewe n'ubwoko bw'imodoka ukeneye.

Abayobozi b'imishinga runaka cyangwa b'ibigo runaka, hari igihe bajya bahurira ahantu bakiga ku kintu runaka; iyo basoje kwiga kuri icyo kintu basa nk'aho bafata ifoto y'urwibutso, kuko ubundi ibyo bikorwa ntabwo bikunze kubaho buri munsi cyangwa ngo bahure buri munsi.

Imbere y'uko imodoka runaka ijya ku isoko cyangwa itangira kugurishwa nuko abayikoze babanza kwamamaza cyangwa se bakamurikira abayikeneye ibiciro by'iyo modoka ubwoko bwayo ndetse n'ibiyigize kugira ngo uzayigura azaba azi imodoka aguze neza azi nuko iteye ndetse n'uko ikora.

Ikoranabuhanga ryaragakemuye kuko abantu benshi hirya no hino akazi kabo ka buri munsi bagakora bifashishije ikoranabuhanga mu gihe cyose bafite ibyo bashaka kurebaho cyangwa se ibyo bashaka gukora bifashisha ikoranabuhanga mu rwego rwo kugira ngo babikore neza kurushaho.

Iyo bavuze amafaranga abantu benshi bumva yuko amafaranga aba ari inote gusa. Ariko kuri ubu ngubu, hari amafaranga aba akoze mu biceri kandi na yo akagira agaciro cyane. Usibye yuko amafaranga aba akoze mu biceri, adakunze kugira agaciro kari hejuru, nk'amafaranga akoze mu note.

Amafaranga y'u Rwanda ni amafaranga yahoze afite agaciro gakomeye cyane, ugereranyije n'andi mafaranga y'ibindi bihugu muri Afurika, amafaranga y'amanyarwanda usanga afite agaciro kari hejuru y'andi mafaranga yose akoreshwa muri Afurika.

Mu gihugu usanga harimo ibigo bitandukanye byagenewe kuvunja amafaranga y'amanyamahanga bikayashyira mu mafaranga y'abenegihugu, kubera y'uko usanga rimwe na rimwe ibi hari ibihugu bitemera gukoreshwamo amafaranga y'amanyamahanga, bisaba yuko umuturage abanza kuyavunjisha mbere yuko atangira kuyakoresha kugira ngo ayakoreshe byemewe n'amategeko.

Mu buzima bw'abaturage abenshi bashishikazwa cyangwa se banezezwa no gukora ku mafaranga mu gihe runaka mu buzima bwiza bw'umuturage nuko aba afite ayo mafaranga kandi ayo mafaranga byanga byakunda aba afite aho yayakuye ashobora kuzaba yarayahawe n'umuntu runaka cyangwa se akaba ariyo yahembwe mu kazi akora.

Amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda yari amafaranga afite agaciro gakomeye kuva na kera na kare usibye kuko imyaka igenda igenda hagenda habaho igihe ayo mafaranga agahindurwa ariko bitavuze y'uko abataye agaciro agaciro kaguma arika kandi igihinduka ni imikorere n'imiterere yayo.

Muri serivise zitandukanye ubusanzwe zikenerwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Biba byiza yuko mu gihe bagiye kuzishaka bagenda batonda umurongo, ubakira akagenda yakira umwe kuri umwe akurikije uko baje, uwaje mbere akamwakira mbere n'uwaje nyuma akamwakira nyuma.

Ntago wabyumva ko hari ibyo kurya bishobora gutegurwa hifashishijwe amavuta gusa, ndetse n'ifu runaka, kandi umuntu ubiriye akaba ariye neza cyane kuruta uriya wariye ibyo kurya yita ko byategujwe amazi.

Aha haragaragara bimwe mu bikorwa byo kwihangira umurimo urugero nka kantine nkuko turi kubibona hari ku ifoto hari kantine ndetse, hari n'umukiriya wari wagiye muri iyo kantine uko biri kose umukiriya wari yagiye muri yo kantine yari yagiyemo agiye guhaha iyo kantine nayo ni bimwe mu bikorwa byo kwihangira umurimo.

Hari ibyo kurya bitandukanye umuntu ashobora gutegura mu mwanya mutoya mu gihe yihuta, akabitegura bitabaye ngombwa yuko yifashisha amazi, ahubwo ugasanga ari ibyo kurya biba biteguye hifashishijwe amavuta gusa hatabaye ngombwa ko hifashishwa amazi.

Hari ahantu haba hatangirwa serivisi zitandukanye nk'izo serivisi usanga rimwe na rimwe ari izo kugaburira abantu mu buryo bwo kuba icyo kurya ndetse n'icyo kunywa, izo serivisi ugasanga ari ingirakamaro cyane kuko birinda abantu bari mu rugendo kwicirwa n'inzara mu nzira.

Nk'uko tubizi hirya no hino mu gihugu hagiye hari abantu bihangiye imirimo yo gucuruza ibicuruzwa bidasembuye cyane cyane nk'amata n'ibindi, rero muri ibyo bicuruzwa hakunze kugaragaramo amata, aho usanga amata ari ikinyobwa gikenerwa n'abantu benshi cyane cyane abategera ku binyobwa bisembuye.

Ni byiza ko ahantu hacururizwa icyo kunywa cy'amata hagomba kuba hari isuku itandukanye n'ahandi hose, kubera ko icyo kunywa cy'amata ni igicuruzwa kiba kigomba kugirirwa isuku itandukanye n'ibindi bicuruzwa byose kubera yuko amata iyo uyagiriye umwanda bigaragara nabi kurushaho.

Benshi batekereza y'uko ibiribwa bihiye ari ibiryo byatekeshejwe amazi hanyuma bikaza gushyirwamo amavuta nyuma, ariko siko biri kubera yuko dusanga hari n'ibyo kurya bitekeshwa amavuta gusa kuva batangiye kubiteka kugeza babihishije nta amazi babishyizemo kandi bikaba n'ingenzi ku mubiri wa muntu.

Ubucuruzi nk'ubungubu bwo gucuruza ibyo kurya hifashishijwe indobo usanga ari ubucuruzi bukorwa na rubanda rugufiya, ariko ugasanga ubucuruzi nk'ubungu bu Leta irabwanga kandi irabwamagana bitewe n'uko ahanini usanga Leta ibwita y'uko ari umwanda.

Hari uburyo buriho bwo gutunganya amato no kuyabungabunga kugira ngo atangirika nyuma yuko akamwe, kugira ngo azagere ku bantu agifite umwimerere kandi ntacyo yabaye bityo abantu bazayakoresha bazagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange hari ukuntu bajya gusobanura igihugu cy'u Rwanda bakavuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki kandi koko iyo urebye usanga ari nabyo kuko mu Rwanda haracyaba inka zikamwa kandi zigakamwa imikamo uhagije ku buryo buri munyarwanda wese wifuje amata ashobora kuyabona bitabaye ngombwa yuko akamisha ahubwo haba hari amakaragiro noneho abacuruzi bakayafata kuri aya makaragi ukabona bitaguhogoye.

Umugati ni rimwe mu ifunguro abantu benshi bifashisha, hari abawifashisha nk'ifunguro rya mu gitondo, abandi bakawifashisha nk'ifunguro rya saa sita ndetse hari n'abawifashisha nk'ifunguro rya ni mugoroba, ni ifunguro ingirakamaro ku mubiri w'umuntu kuko wongera imbaraga ndetse bikaba byiza iyo ufatishije n'icyo kunywa.

Ibigo bitandukanye by'itumanaho bikomeje kwagura imirongo yabyo hirya no hino, mu rwego rwo kugira ngo bikomeze bigeze serivisi nziza ku baturage ndetse n'abo baturage bakomeze kwitabira kubikoresha ari benshi, bityo ibyo bigo bikome gutera imbere ku buryo bwihuse.

Mu Rwanda hariho uburyo butandukanye bwo kohereza amafaranga no kuyakira bitabaye ngombwa kuyahererekanya mu ntoki ,muri ubwo buryo ni mu buryo bumwe bugaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bukaba bunohereza abaturage kuko iyo ushaka nko kohereza amafaranga umuntu uri kure ntago biba ngombwa yuko utega ngo uyamushyire ahubwo uyamwohereza binyuze ku ma konti y'amabanki runaka cyangwa se binyuze kuri terefoni.

Ameza afite ibara ry'igitaka ariho indangururajwi ifite ibara ry'umukara, idarapo rifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho abantu babiri bicaye bambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, karuvati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, hakaba hariho ishati y'umweru na karavati ifite iba ry'umweru.

Ubungubu hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kohereza amafaranga ndetse no kuyakira binyuze ku ikoranabuhanga, ndetse iyo umaze kohereza amafaranga cyangwa se kuyakira, bakwereka akantu twakita nk'inyemezabwishyu y'uko wakiriye amafaranga cyangwa se wohereje amafaranga.

Amafaranga y'igihugu cy'Urwanda aba ari mu ngeri zitandukanye kandi ari no mu mabara atandukanye, cyanye mu note usangamo inote zitukura iz'ubururu ndetse n'andi mabara; ariko si inote gusa usanga hari n'andi mafaranga aba ari mu biceri.

Ubu ntibikiri ngombwa y'uko bikuvuna wishyura amafaranga mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose kubera y'uko ushobora kwishyura amafaranga wifashishije ikoranabuhanga kandi amafaranga aho yagombaga kugera akagerayo vuba vuba kandi bitakugoye ndetse hatabayeho n'ikindi kiguzi icyo ari cyo cyose.

Ntibikiri ngombwa yuko mu gihe cyose ushaka kwishyura umuntu cyangwa se kumwoherereza amafaranga biba ngombwa yuko weho n'uwo muntu muhura, kuko ushobora gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho n'ibigo by'itumanaho mu gihugu bwo kohereza amafaranga ndetse no kuyakira hifashijwe telefone ngendanwa.

Iyi foto iragaragaza umuntu urangije kwishyura igicuruzwa cye, cyangwa serivisi runaka yarahawe, ariko akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bumwe bita kashilesi. Aho ufata amafaranga ukayoherereza undi muntu ariko bitabaye ngombwa yuko muyahererekanya mu ntoki, ni uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho nabwo bugaragaza bimwe bimwe mu bimwe mu iterambere ryiza ry'igihugu.

Igihe cyose uhawe serivisi runaka na banki runaka, ni byiza yuko uhabwa inyemezabwishyu igihe wishyuriye ndetse n'ibyo wishyuye. Iyo nyemezabwishyu, igaragaza neza igihe wishyuriye, ayo wishyuye, ndetse n'igihe uyishyuriye. Ibyo byose bikagufasha gihe cyose habayemo ikibazo, ushobora kwitwazamo iyo nyemezabwishyu, kugira ngo icyo kibazo gikemuke mu nzira nziza.

Mu igihugu cy'U Rwanda umuturage ntago yemerewe gukoresha amafaranga y'amanyamahanga ariko yemerewe kuyakira, iyo yakiye ayo mafaranga m'urwego rwo kugirango ayakoreshe icyo asabwa ni ukwegera ibigo bibishinzwe bikamuvunjira ayo mafaranga bikayamuha mumanyarwanda kugirango abone uko ayakoresha m'uburyo bwemewe n'amategeko.

Uko habaho amafaranga atandukanye bigendeye ku bihugu, ayo mafaranga akoreshwamo ni nako usanga afite ibirango bitandukanye, ariko ibyo birango byose dusanga ku mafaranga biba bifite ikintu bisobanura kuko ahanini usanga icyo biba bisobanuye bishingiye ku gihugu aya mafaranga akoreshwamo.

Ku isi hariho ubwoko bw'amafaranga atandukanye, ayo mafaranga yose atandukana bitewe n'igihugu akoreshwamo, igihugu runaka kiba gifite amafaranga gikoresha yihariye, atandukanye n'ay'ikindi gihugu.

Nk'uko twese tubizi amafaranga ni ikintu cyiza ariko na none aba meza cyane kurushaho iyo akoreshejwe nk'uko bikwiye, kuko n'ubundi iyo adakoreshejwe nk'uko bikwiye, usanga n'ubundi ateje ingaruka nyinshi. Urugero nk'iyo akoreshejwe mu gutanga ruswa, mu kugambana n'ibindi usanga bitagenze neza, ariko hari ibikorwa ajya akoreshwamo mu buryo bwo kubaka igihugu, akihutisha iterambere ry'igihugu.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Buri gihugu ku isi gifite amafaranga yacyo yihariye gikoresha atandukanye n'ay'ibindi bihugu bitandukanye, nubwo' hari amafaranga abagiye asa nk'aho ari rusange akoreshwa cyane ku isi kurusha ayandi ariko nta n'igihugu ku isi kitagira amafaranga y'igihugu yihariye hakaba hari n'ayandi aza nk'aho ari rusange ku isi.

Haba hagiye hariho amafaranga atandukanye bitewe n'igihugu akoreshwamo. Kuko buri gihugu ku isi nibura kigira amafaranga yacyo y'igihugu yihariye akoreshwa n'abenegihugu gusa. Ariko bitavuze yuko hashobora kubaho n'ibihugu bikoresha n'andi mafaranga runaka, bitewe n'icyo bagiye kugura cyangwa aho bagiye kukigurira.

Amafaranga y'abanyamahanga bivugwa yuko ari meza, kuko akenshi usanga aba ari hejuru cyane mu biciro ugereranyije n'ay'amanyarwanda. Ariko mu Rwanda ntibyemewe na gatoya gukoresha amafaranga y'abanyamahanga m'uburyo bunyuranyije n'amategeko, niyo mpamvu dushishikarizwa ko niba tugiye gukoresha amafaranga y'amanyamahanga tugomba kubanza kugana ibiro bishinzwe ivunja n'ivunjisha, bikabanza bikayashyira mu manyarwanda.

Amafaranga y'amanyamahanga agira agaciro bitewe n'igihugu akoreshwamo cyangwa se abenegihugu bayakoresha kuko ushobora gusanga amafaranga y'amanyamahanga, afite agaciro gakeya mu gihugu akoreshwamo ariko yagera mu kindi gihugu akagira agaciro, bitewe n'amafaranga asanzwe akoreshwa muri icyo gihugu agaciro n'ubundi yari asanzwe afite.

Buri gihugu kigira amafaranga akoreshwa mu gihugu yihariye kandi atandukanye n'ay'ikindi gihugu, ariko hari amafaranga aba asa nk'aho ari rusange ku isi, kuko aba yemerewe gukoreshwa ahantu henshi ku isi, ugasanga ari nkaho nta gihugu yihariye agira, ariko ayo mafaranga n'ubundi usanga ari mu gaciro gakomeye cyane ndetse aba anahenze kuruta ayandi mafaranga yose.

Hirya no hino mu gihugu hari ibigo bitandukanye bishinzwe kuvunjara amafaranga y'abanmanyamahanga bikashyira amafaranga y'amanyarwanda, kubera ko mu gihugu bitemewe gukoresha amafaranga y'umuyamahanga ugura cyangwa ugurisha igihe cyose ufite amafaranga ni byiza ko yayajyana kurii ibyo bigo bi bikayakuvunjara bakayashyira mu myarwanda mbere yuko utangira kuyakoresha.

Mu Rwanda haba hari ibigo binini bishinzwe ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamanyamahanga ariko ibyo bigo mu rwego rwo korohereza abakiriya babyo biba bifite n'amashami matoya aciriritse hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo umukiriya aho ari hose abone serivisi bimunogeye kandi bitamuhenze.

Mu gihugu hirya no hino haba hagiye hari ibiro bishinzwe ivunjisha bitandukanye, biba byiza ufite amafaranga atari mumanyarwanda biba byiza iyo uganye ibyo biro bikagufasha kuyakuvunjira mu banyarwanda, kugira ngo uyikoreshe ayo mafaranga mu buryo bwemewe kuko ntibyemewe gukoresha amafaranga y'abanyamahanga muri iki gihugu cy'u Rwanda mu gihe cyose utarayavunjisha.

Hirya no hino ku biro bishinzwe ivunja n'ivunjisha, iyo ugezeyo ugiye kuvunjisha amafaranga, ikintu cyambere bakora ni ukugusobanurira agaciro k'amafaranga ukeneye n'agaciro k'amafaranga uzanye kimwe nuko bashobora no kukwereka aho byanditse iyo uzi gusoma ukisomera.

Kubera yuko gukoresha amafaranga y'amanyamahanga mu gihugu mu gihe cyose utarayavunjisha bitemewe, ni yo mpamvu hirya no hino haba hagiye hari ibigo bishinzwe kuvunja ayo mafaranga, bikayashyira mu mafaranga y'amanyarwanda, kugira ngo uyafite yemewerwe kuyakoresha mu buryo bwemewe n'amategeko.

Havuzwe ko mu gihugu hafashwe umwanzuro yuko amafaranga y'amanyamahanga atemerewe gukoreshwa n'umuturage uwo ari we wese mu kugura cyangwa mu kugurisha ikintu runaka. Niyo mpamvu n'ibindi bigo bitandukanye bitanga serivisi harimo nko kuvunji, byagiye byegerezwa abaturage mu rwego rwo kugira ngo umuturage ufite amafaranga y'amanyamahanga mbere y'uko ayakoresha, ajye kuyavunjisha bamuha amafaranga y'amanyarwanda, ayakoreshe mu buryo bwemewe n'amategeko.

Ni byiza y'uko ahantu hose hari ikigo gishinzwe ivunja n'ivunjisha, bahashyira icyapa kikiranga kugira ngo abakigana bajye bahagera bitabagoye kandi bazi neza aho bagiye kubera y'uko birashoboka y'uko abantu bose bashobora kuba batahazi ariko ucyibona icyo cyapa, byanze bikunze uhita umenya icyihakorerwa ndetse niba ushaka cyangwa ukeneye gahunda ugahita ujya kuyikoresha utarinze kujya kuyobagurika.

Mubyukuri igiti cyangwa urubaho ni igikoresho gishobora kuvamo ibindi bikoresho bitandukanye bifite ubwiza buhebuje, kuburyo rimwe na rimwe ubyitegereje ushobora kugira ngo ntago byigeze biva mu giti ahubwo hari ikindi gikoresho byavuyemo, ariko nyamara usanga bikoze mu giti cyangwa se urubaho.

Ibikoresho byinshi ubona bifite ubwiza buhebuje, ukagira ngo bikoze mu byuma, cyangwa se ibindi bintu bidasanzwe, ariko iyo ubyitegereje neza byose, usanga bikoze mu biti, n'imbaho, rero ugasanga ibiti n'imbaho bifite umumaro munini cyane, kubera ko nabyo biri mu bintu bikenerwa cyane, mu kubikoramo ibikoresho bitandukanye.

Iyo ugeze mu ruganiriro runaka, ahanini usanga bikwereka ubushobozi bwa nyir'iyo nzu, kuko iyo nyir'iyo nzu afite ubushobozi buhagije usanga, mu ruganiriro rwe harimo ibikoresho bigezweho, ugasanga harimo intebe zigezweho, ameza n'ibindi bikoresho nkenerwa mu ruganiriro bigezweho kandi byiza, ugasanga biba binahenze biri ku giciro cyo hejuru.

Nkuko bizwi neza ko mu buzima bw'umuntu, kugira ubuzima bwe bugende neza akeneye kuryama, ni nayo mpamvu akeneye aho kuryama heza kandi hamubereye. Igihe cyose ubaho utaryama ,ubuzima ntabwo bugenda neza. Ukeneye aho kuryama heza hakubereye, hajyanye n'urwego rwawe.

Umurimo w'ububaji ni umurimo wateye imbere cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe nuko bigoranye cyane kugira ngo uzabone urugo na rumwe mu gihugu cy'u Rwanda rushobora kuba rudafite igikoresho kibajije mu giti. Iyo yose ni imirimo y'ububaji ndetse n'ababaji bayikora.

Ibikoresho bikoze mu biti cyangwa se imbaho usanga ari ibikoresho byiza kandi bishamaje, aho ukibonye hose uba wifuza ko wahora ukiri kuko aba ari igikoresho gikoranye ubuhanga butandukanye n'ubundi bwose, kuko bituma uniza uburyo icyo gikoresho gikozemo bikagucanga ariko nyamara buba bugaragara.

Nkuko bisanzwe mu rwanda haba umuco wo gutegura ahantu abashyitsi bicara cyangwa se ahandi hantu runaka abantu bashobora guhurira barenze umwe bakaganira ku kintu runaka cyangwa se bakahasangirira icyo kunywa cyangwa icyo kurya.

Mu Rwanda dufite amahoteli atandukanye kandi buri hoteli mu Rwanda nibura mu gikorwa remezo igomba kuba ifite n'uko igomba kuba ifite pisine, pisine ni kimwe mu gikorwa kiranga hoteli iteye imbere, hoteli ifite pisine iba ari hoteli ifite iterambere.

Ni byiza ko ahantu hahurira abantu benshi hashobora gukorerwa inama cyangwa amahugurwa, biba byiza iyo hari intebe ndetse n'uruganiriro, urwo ruganiriro rukaba rufite ubushobozi bwo kwakira abantu bashobora kuza aho ngaho, mu kuharira cyangwa kuhanywera kugira ngo igikorwa cyabateranyirije aho kigende neza, bityo bataza gutaha batagisoje.

Kuryama neza no kurara aheza ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza, bityo rero twimakaze umuco wo kuryama aheza kandi hasukuye, mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bwacu, bityo duteze igihugu cyacu imbere.

Iyo ukorera ahantu heza kandi hasa neza n'akazi kawe kagenda neza, ni ukuvuga ngo igihe cyose ukorera ahantu heza n'akazi ukora kagenda neza ndetse n'abakugana bakakwishimira bityo bigatuma bahora bakugana igihe cyose, bityo ibyo ukora bigatera imbere kandi mu buryo bwihuse.

Kuri ubu ngubu ubwiza bw'inzu ntabwo bureberwa inyuma kuko iyo ushaka kumenya ubwiza bw'inzu neza, ni uko ureba inyuma hanyuma ukaza no kureba n'imbere yayo, usanga rimwe na rimwe imbere y'inzu hashobora kuba ari na heza hubatse neza kuruta inyuma yayo.

Hirya no hino mu gihugu, usanga hari ibigo bishinzwe kwakira abakiriya mu buryo butandukanye, hari n'ibigo byakira abakiriya mu gihe abakiriya bakeneye ifunguro, yaba icyo kunywa cyangwa icyo kurya. Ibyo bigo mu gihugu bigiye bihari ari byinshi kandi bitandukanye gusa icyo byose bihuriraho ni uko byakira neza ababigana ndetse bikabaha serivisi bishimiye.

Bimwe mu biranga iterambere ry'igihugu, harimo n'inzu zimwe na zimwe ziba zigiye zikomeye kurusha izindi mu gihugu, hari inzu nziza kandi zifite agaciro kari hejuru ugereranyije n'izindi nzu zose mu gihugu, izo nzu ahanini ukunze gusanga ari iza leta kuko biragoye yuko hari umuturage wagira ubushobozi bwo kubaka inzu nk'iyo.

Hirya no hino mu gihugu haba hari ibigo by'ubwishingizi bitandukanye, ibyo bigo by'ubwishingizi nabyo biba bigomba kuba bifite ahantu bikorera hihariye hazwi kandi hari n'icyapa kiranga yuko bikora iyo mirimo y'ubwishingizi, kugira ngo ababigana babigane bazi aho bagiye neza bityo birinde ikibazo cyo kuyobagurika mu gihe bagiye kubashakaho serivisi.

Mu biro bitandukanye hirya no hino usangamo harimo ibikoresho bitandukanye, ariko hari ibikoresho by'ingenzi bitagomba kubura mu biro ibyo aribyo byose, aho ariho hose, icyo ibyo biro bishinzwe ibyo aribyo byose, urugero nk'intebe yo kwicaraho, mudasobwa n'ibindi bikoresho nkenerwa kugira ngo akazi ko mu biro kagende neza.

Mu gihugu haba hagiye harimo ibigo byinshi by'ubwishingizi bitandukanye, ibyo bigo byose uko bitandukanye ni nako bitanga gahunda zitandukanye, wowe bitewe n'ubushobozi bwawe cyangwa ubushake bwawe, ugana ikigo cy'ubwishingizi ushaka, igihe ushakiye, kandi ugatangamo amafaranga ushaka bitewe n'ubushobozi ufite ako kanya.

Kimwe mubizakubwira yuko inzu runaka; cyangwa hanatu runaka batanga gahunda zitandukanye zikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwari munsi, ni uko uzahasanga parikingi nyinshi zitandukanye. Mu rwego rwo kugira ngo ababagana baje mu binyabiziga, bazage babona aho basiga ibinyabiziga byabo.

Hirya no hino mu gihugu haba hagiye hari ibigo byinshi bitandukanye by'amoko atandukanye bimwe na bimwe dushobora no kumenya, ariko nyamara abagana ibyo bigo benshi baba babizi ndetse bazi n'akamaro kabyo ariko akamaro rusange ni uko bigufasha kwizigamira ubuzima bw'ejo hazaza mu gihe wahura n'ikibazo bikaba byakugoboka.

Hirya no hino uhasanga inzu z'ubucuruzi zitandukanye ariko izo nzu zose ugasanga n'imiryango ihuye ku nzu imwe, ariko itanga gahunda zitandukanye cyangwa se itanga serivisi zitandukanye, ugasanga umuryango umwe utanga ubucuruzi busanzwe, undi ugasanga utanga ubucuruzi bujyanye n'amabanki, kubitsa no kubikuza, n'ibindi n'ibindi ariko byose icyo bihuriraho, ni uko biba bitanga ubucuruzi.

Ushobora kugera ahantu runaka wageramo imbere ugahita uhakunda bitewe n'ubwiza bwaho ndetse n'ubuhanga hubakanye, ugasanga ahantu hubatse mu buryo bw'ibirahure ugasanga hagiye harimo nk'utuzu dutoya duto dutoya twubakishije ibirahure gusa nyamara wareba uburyo twubatsemo bikagucanga kuko akenshi usanga ari nk'ubwa mbere uba ubibonye.

Ukibona ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi cyangwa se ikindi kigo icy'aricyo cyose gishinzwe kwishingira umuturage, uhita utekereza ku buzima bwawe bw'ejo hazaza cyane cyane iyo ntacyo ufite wizigamiye cyazakugoboka mu minsi mibi ushobora kuzahura nayo imbere, nibyiza rero gutekereza ku minsi y'imbere kuko iyuy'umunsi ushobora kuba umeze neza ariko ejo ntuzi ngo uzaba umeze ute, iyo wizigamiye muri iyi minsi umeze neza bijya bigufasha.

Nk'uko tubizi mu rwanda baca umugani mu kinyarwanda ngo inzira ntibwira umugenzi; niyo mpamvu abanyarwanda twese muri rusange dukwiye kugana ibigo bishinzwe kuzigamira abaturage ndetse bikakira amafaranga y'abaturage; mu buryo bwo kugira ngo tuzigamire iminsi mibi kuko ntawe umenya aho bwira ageze.

Ibigo byo hirya no hino bitanga ubwishingizi, biba bigiye binafite amashami abihagarariye hirya no hino mu gihugu, ndetse n'ayo mashami ahagarariye ibyo bigo aba agiye afite ahantu afite ibiro runaka kugira ngo buri wese ukeneye serivisi runaka itangwa n'icyo kigo amenye aho yayibariza bitamusabye kujya ku cyicaro gikuru.

Abantu bose batunze amafaranga menshi ntago ariko bose baba barayakoreye, kuko hari n'ababa bafite amafaranga menshi kandi barayakuye mu nguzanyo, aho ugenda mu kigo runaka gishinzwe kuguriza abantu, ukaguzamo umubare w'amafaranga ushaka na bo bakayaguha ukagenda wishyura mu buryo muzumvikanaho.

Hirya no hino iyo umuntu agiye gusaba ubufasha cyane cyane mu nzego za leta, mu byo bamusaba hakunze kuba harimo n'ikigaragaza yuko ubwo bufasha bukenewe cyangwa se ikigaragaza yuko ubwo bufasha akwiriye kubuhabwa, iyo icyo yamaze kukigaragaza nibwo aba yemerewe gufashwa cyangwa se agahabwa bwa bufasha yari akeneye.

Inzu nyinshi ziteye imbere ikintu kiziranga ni uko usanga imyubakire yazo itandukanye kandi itangaje cyane, aho usanga ibice binini biyigize ugasanga yubakishije ibirahuri mu mpande nyinshi zayo bikagucanga cyane ukibaza ngo ibi birarahure ni bwoko ki? nyamara ukabona ni inzu ishyitse kandi yuzuye ariko uburyo yubatsemo bwo bugacangana cyane kuko usanga ari ibirahure gusa.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Imodoka ya pikapu yo mu bwoko bwa mahindura yitwa mahindurazi koropiyo iri mu ibara ry'ifeza imbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite ifoto imeze nk'urufunguzo rw'imodoka yanditseho izina rya kampani izwi mu Rwanda mu birebana no kugura no kugurisha imodoka yitwa Akagera motors.

Amasoko menshi acuruza ibyokurya bibora kenshi na knenshi usanga ibyo acuruza bicururiza hanze. Mu rwego rwo kugira ngo ababigura baze kubigura ari benshi kandi babisange hanze, kuko ayo masoko usanga ari amasoko akunze kugendwamo n'abantu benshi bari kugura ibyo bicuruzwa ugereranyije n'andi masoko yose.

Ahantu hahurira abantu benshi batandukanye, nko mu masoko, biba byiza iyo habayemo inzego z'umutekano, mu rwego rwo kugira ngo abantu bose bahuriye aho ngaho bagire umutekano, ndetse icyabazanye bagikore mu mahoro, nta kibahungabanyije, hanyuma barangize batahe.

Igisheke ni ingirakamaro mu mubiri wa muntu kubera yuko kimufasha kongera isukari mu mubiri, igihe cyose umuntu yagize ikiba isukari nkeya mu mubiri, ashobora kwifashisha igisheke mu rwego rwo kongera isukari mu mubiri hanyuma ubuzima bwe bukagenda neza.

Hari amasoko amwe n'amwe ushobora gusangamo ibicuruzwa gakondo, bya bindi byo ku ngoma ya cyami. Ibikoresho byifashishwaga mu mirimo itandukanye, mu mirimo ya kera. Hari amasoko amwe n'amwe usanga na n'ubu akibifite mu rwego rwo gukomeza gusigasira umuco w'Abanyarwanda.

Nubwo iterambere rigenda riba iterambere hirya no hino mu gihugu haba hari amasoko aba agiye acuruza ibikoresho gakondo. Ugasanga harimo n'ibikoresho bimwe na binwe bisa n'aho ari ibya kera cyangwa se ku ngoma zabanje, ariko ugasanga hari amasoko aba agiye abicuruza kugira ngo uwagikenera uwo ari we wese akibone kandi bitamugoye.

Amasoko y'imyenda n'ubucuruzi bw'imyenda, ni bumwe mu bucuruzi bwateye imbere cyane kuko kubera y'uko bitabaho ko umuntu yagenda atambaye umwenda runaka cyangwa se nta kindi kintu afite yambaye kijyanye n'umwenda, ni na ko amasoko y'imyenda agenda atera imbere kuko abo bantu bose babigurira mu masoko y'imyenda agiye atandukanye.

Amasoko acuruza ibyo kurya nk'imbuto n'ibiribwa usanga ariyo masoko cyane agira abakiriya benshi cyane kubera yuko usanga ari bimwe mu bintu bikenerwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bidahari n'ubuzima bw'abantu batagenda neza niyo mpamvu usanga ayo masoko abantu bayakoramo cyangwa bayacuruzamo baba bagomba gufungura buri munsi gukora buri munsi ndetse bagatanga na gahunda zinogeye ababagana

Abakozi b'ibigo by'itumanaho bafite umuco wo kwakira neza ababagana. Ibyo ari byo bituma ababagana, bishimira iyo gahunda ndetse bakaguma no gukoresha uwo murongo, kubera gahunda nziza bahabwa n'ibyo bigo, ndetse n'abakozi bakorera ibyo bigo, uburyo babafata mugihe babashaka cyangwa se mu gihe aba bakiliya bakeneye ubufasha runaka.

Imwe muri sosiyete z'itumanaho yateye imbere mu Rwanda, ikomeje kwagura ibikorwa byayo kugira ngo ikomeze yorohereze abayigana mu mirimo yabo ya buri munsi nko kwakira amafaranga ndetse no kuyohereza bitabaye ngombwa gukora ku mafaranga, ibyo na byo ni ibintu iyo sosiyete yashyizemo imbaraga nyinshi kandi bigaragara ko bigenda neza.

Ikoranabuhanga uko rigenda ritera imbere ni nako abantu benshi muri rusange bagenda barimenya, biragoye ko ubu ngubu ushobora kugenda ugasanga ahantu hari umuntu utagira telefone ngendanwa, cyangwa se ikindi gikoresho kiyisimbura, kubera ko ikoranabuhanga ryateye imbere kandi rigera kuri bose.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze afite ibyishimo ku maso he ari guseka, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, umusatsi we urasokoje urabona ko ugaragara neza cyane.

Ibigo by'itumanaho sicyo gikorwa cyonyine biba bitanga kuko ibyo bigo usanga bifasha n'abaturage kohereza cyangwa se guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bidasabye yuko uyakoraho mu ntoki ngo muhererekanye mugure ikintu runaka.

Mu Rwanda tugira ibigo by'itumanaho bitandukanye. Ibyo bigo bifasha abaturage ndetse na leta mu guhererekanya amakuru binyujijwe mu miyoboro y'itumanaho itangwa n'ibyo bigo. Ibyo bigo si ibyo gusa kandi bigira akamaro mu guhererekanya amafaranga ava hamwe ajyahandi bitabaye ngombwa ko amafaranga atategerwa cyangwa se ushaka kuyohereza atega kugira amugereho ahubwo ayohereza binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Hari uburyo bumwe na bumwe bugiye bwizewe bwo kohereza ibaruwa yawe ukayohererereza umuntu runaka kandi ikamugeraho mu buryo bwizewe, wifashishije ubu buryo bita i posita ushobora kohereza ibaruwa yawe cyangwa se n'iyindi nyandiko iyo ari yo yose ikazagera kuwo woherereje mu gihe runaka kandi ikamugeraho ifite umutekano.

Habaho ubucuruzi butandukanye, ariko ubwo bucuruzi biba byiza iyo ababukora bashatse buryo ki babwamamaza, ntago ari buriwese ufite amahirwe yokubona ubucuruzi runaka, ariko iyo wabwamamaje bituma bigera kuri buri wese kandi mugihe gitoya bityo ubwo bucuruzi bari kwamamaza bukabona abakiriya benshi.

Uko iterambere rigenda riza ni nako abantu batera imbere mu bintu byose, ubungubu hasigaye hariho gahunda y'uko ushobora guhaha ibiryo runaka bihiye cyangwa se bitetse, ndetse akarusho bakanabikugezaho iwawe binyuze mu buryo bwo kugutwaza ibyo wahashye.

Hirya no hino hari ibyo kurya biba biteguranye ubuhanga butangaje ,kubera y'uko usanga bimwe na bimwe biba byarateguwe mu buryo bwa gihanga butandukanye n'ubundi buryo bwifashishwa hategura ibyo kurya. Usanga uburyo busanzwe bwifashishwa harimo guteka ukoresheje amazi, imbabura cyangwa se inkwi ariko hano haba hifashishijwe uburyo bwa gihanga ahenshi usanga babitunganya bifashishije imashini.

Hirya no hino haba hagiye hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye ariko ubungubu hari amasoko y'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho igicuruzwa ukeneye mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bakanakikugerezaho aho utuye bitabaye ngombwa yuko ujya ku isoko ngo wishyure amafaranga cyangwa se ukoreshe ubundi buryo bwose ujya guhura n'umugurisha ahubwo byose mushobora kubikora mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ntibikiri ngombwa yuko ugira amafaranga ariko ukabura aho kuba kubera yuko hari inzu ukodesha ku kwezi ukayisangamo na buri kimwe cyose kandi itaguhenze mu gihe cyose udafite umwanya cyangwa ubushobozi bwo kwiyubakira iyawe biba byiza uganye aho hantu maze ugakodesha iyo nzu .

Hirya no hino haba hari inzu zigiye zifite imbere n'inyuma hatandukanye kandi hatangaje! Nk'iyo usanze inzu imeze itya kandi ufite amafaranga, ntiwazuyaza kuyigura kugira ngo ube ahantu heza.

Birashoboka ko wagira inzozi zo kubaka inzu nziza ariko ukagongwa n'uko n'aho kuyubaka ufite nyamara amafaranga wari uyafite, ariko ndakubwiza ukuri y'uko mu gihugu cy'u Rwanda usibye n'aho kuyubaka ushobora kubona inzu ushobora kugenda ukagura yubatse kandi ikaba ari inzu y'inzozi zawe.

Mu inzu nziza ziteye imbere n'uko usangamo harimo harimo n'ibikoni byiza kandi biteye imbere, igikoni kirimo buri kimwe cyose gikenewe mu igikoni kugirango ibigitekerwamo bibe bimeze neza kandi bifite isuku ugasanga amafaranga zikodeshwa atari na menshi cyane ugereranyije n'ibikorwa bihakorerwa cyangwa se ubwiza bwaho.

Kuba mu nzu nziza ntaho bihuriye no kuba ufite ikibanza cyo kuyubakamo cyangwa se kuyiyubakira ku giti cyawe, ushobora kugira amafaranga yo kuyigura ukazagenda ugura inzu yubatse kandi yuzuye, ukaba mu nzu y'inzozi zawe kandi wishimiye atari ngombwa yuko wayubatse ahubwo ari iyo wiguriye.

Kuba mu nzu nziza cyangwa inzu y'inzozi zawe, ntabwo bigombera ngo iyo nzu ibe iyawe wayubatse, birashoboka ko ushobora kugira amafaranga yo gukodesha iyo nzu, bitagombereye ngo iyo nzu abe ari iyawe wiyubakiye, ahubwo ugashaka amafaranga iyo nzu ukayikodesha.

Kubera ko mu Rwanda ikoranabuhanga ryateye imbere umunsi ku munsi hagenda hasohoka imbuga zitandukanye zifasha abantu mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi nk'urubuga rushinzwe guhuza ugura n'ugurisha ukodesha n'ukodeshwa ikintu runaka bitabaye ngombwa yuko ashaka ,abaririza niki niki oya ubungubu urwo rubuga rurabyoroshya rukabahuza bombi ibintu bikagenda neza .

Ushobora kugira inzozi zo guzatura mu nzu nziza ariko nyamara iyo nzu udafite ubushobozi bwo kuyubaka ariko ubungubu ntibikiri inzozi kubera yuko mu gihe cyose udafite ubushobozi bwo kubaka iyo nzu nyamara ufite amafaranga make yo kuyikodesha ushobora kugenda ukayikodesha ukayibamo ubuzima bukagenda neza bidasabye yuko iyo nzu igomba kuba ari iyawe.

Igihe cyose ushatse kubaka inzu cyangwa se ushatse kubaka ikindi gikorwa ntabwo ari ngombwa yuko ku giti cyawe uba ufite aho ucyubaka birashoboka ko ushobora kuba ntaho ufite ariko ufite amafaranga yo kuhagura ushobora kujya ahantu hacuruzwa ibibanza ukabigura hanyuma yo kukigura ukubakamo icyo ushaka kuhubaka.

Ushobora kugira amafaranga yo gukodesha inzu ariko ntugire amafaranga yo kugura inzu yawe, ariko uko byamera kose uba ukeneye kubaho kandi ukaba mu nzu, ni yo mpamvu mu gihe cyose nta mafaranga yo kugura inzu ufite ayo gukodesha ugomba kujya gushaka inzu, ukayikodesha ukishyura amafaranga mu gihe runaka ukayibamo, ayo mafaranga yazashiramo ukayivamo cyangwa se ukishyura andi ugakomeza ukayibamo.

Kuba mu nzu nziza kandi wifuza bitandukanye no kuba warayiyubakiye, kuko byose bikorwa n'amafaranga ufite uko angana, iyo ufite amafaranga birashoboka ko wagenda ahantu runaka ukagura inzu, ugatura mu nzu nziza kandi y'inzozi zawe bitabaye ngombwa ku uba ufite ikibanza cyo kuyubakamo cyangwa aho kuyubaka.

Inzu ikodeshwa ntago baba bazi ngo izakodeshwa nande, kimwe yuko atari ngombwa yuko ikodeshwa n'umunyagihugu birashoboka ko n'umunyamahanga ufite amafaranga ashobora kugenda akishyurana we agakodesha, iyo nzu mu gihe nta munyagihugu uri kuboneka hafi ngabe ariwe uyikodesha.

Kubaka inzu nziza kandi igezweho si ukuba uyubatse ngo uyituremo, ushobora kubaka inzu nziza kandi igezweho mu rwego rwo kugira ngo uyikodeshe ubone amafaranga, mu gihe cyose usanzwe ufite aho wari uba kandi udashaka kuhava, ushobora kubaka iyo nzu mu rwego rwo kwihangira umurimo, iyo nzu ikajya ikwinjiriza amafaranga kandi ukiteza imbere.

Gutunga inzu y'inzozi zawe ubu ntibikiri inzozi, kubera yuko gutunga inzu nziza kandi wifuza ntago bikigombera yuko ufite ikibanza cyo kuyubakamo, kuko kugera ubu hari inzu usanga zubatse ziri ku isoko ziri kugurishwa, icyo ukora we hari ugushaka amafaranga gusa ukagenda ugura inzu yubatswe.

Gutura mu nzu nziza cyangwa se inzu y'inzozi zawe si ngombwa yuko uba ufite ibya mirenge cyangwa amafaranga menshi yo kwiyubakira inzu, ahubwo wowe icyo ukora ni ugushaka amafaranga makeya aciriritse, ukagenda ugakodesha inzu nawe ugatura mun nzu y'inzozi zawe kandi inzu wifuza.

Birashoboka y'uko ufite amafaranga ariko ayo ufite akaba atakubakira inzu y'inzozi zawe ariko ukaba ushaka gutura mu nzu nziza kandi isa neza, niyo mpamvu mu gihugu cy'u Rwanda no hirya no hino ku isi haba hagiye hari inzu nziza zagenewe gukodeshwa, ukishyura amafaranga nawe bakagukodesha iyo nzu mu gihe runaka.

Abenshi bamenyereye yuko amazu asanzwe akodesha ari aya mazu asanzwe yo kubamo ariko biranashoboka ko ushobora gukodesha inzu bitewe n'uko ushaka kuyikoreramo ubucuruzi runaka buzakuzanira inyungu bityo ukiteza imbere.

Igihe cyose ugiye gushaka igicuruzwa runaka mu isoko biba byiza iyo ubanjije kubaza umucuruzi ugicuruza, kugira akubwire igiciro cy'icyo kigura ndetse niba kidahari cyangwa se ntagihari. Igihe usanze kidahari aranakuyobora akakubwira aho uri bugikure.

Nyuma yo kubaho inganda zitunganya ibinyobwa bisembuye ndetse n'amasoko acuruza ibyo binyobwa bisembuye haje gutekerezwa no ku bantu badafata ibyo binyobwa bisembuye na bo hashakishwa uburyo ki bakegerezwa amasoko ndetse n'inganda zikora ibyo binyobwa bisembuye kugira ngo na bo bajye bisanga mu binyobwa bimwe na bimwe bidasembuye.

Hari ubucuruzi budakunze guhabwa agaciro cyane cyangwa ngo bwitabweho n'abantu benshi cyane nyamara ugasanga ari ubucuruzi bufite akamaro cyane nk'ubucuruzi bucuruza imyambaro cyangwa se nibindi bikoresho byifashishwa n'abadamu cyane mugutwaramo utuntu twabo twa buri munsi.

Hirya no hino mu masoko atandukanye usanga haba hagiye hacuruzwa ibintu bitandukanye, aho usanga hacururizwa imyenda imikandara cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ugasanga ibyo byose ikintu biba bihuriyeho ari uku biba bicuruzwa n'umuntu umwe, ariko ibiciro atari bimwe ndetse n'ubwoko bwabyo atari bumwe.

Ahantu hose hakira abantu baje gufata ibyo kurya cyangwa icyo kunywa, ni byiza yuko haba hari intebe zihagije kuri buri meza, mu rwego rwo kugira ngo bakire abantu benshi icya rimwe. Kuko bijya bibaho yuko abantu baza ari nk'umuryango cyangwa se bakaza ari inshuti kandi bashaka gusangirira hamwe. Ni byiza yuko baba bafite imeza ndetse n'intebe zihagije ku buryo barahasangirira nta kibazo.

Amasoka asakaye usanga ariyo masoko agira abakiriya benshi, kubera yuko abantu barayakunda cyane bitewe n'uko baba batekereza yuko amasoko yubatse muri ubwo buryo aba afite ibicuruzwa bikomeye kandi bigezweho, niyo mpamvu usanga akunzwe kugendererwa n'abantu benshi baje gushaka ibicuruzwa atanga.

Hirya no hino hari ahantu haba haragenewe gutanga gahunda zijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ku bantu batandukanye, kubera yuko birashoboka yuko abantu bashobora gutinda kugera mu ngo zabo cyangwa se n'ahandi bafatira ibyo kurya, ariko iyo ageze ahantu nk'aha akafatira ibyo kurya biba byiza kuko bimurinda kwicwa n'inzara mu gihe igikorwa runaka arimo kitararangira.

Amasoko acuruza imyenda usanga hacururijwe imyenda itandukanye ku buryo igihe cyose ugiye ushaka umwenda runaka ubaze uwo mwenda ubwoko bwawo umucuruzi abawuza agahita akurangira aho urabazi n'aho yayimanitse, ugasanga ni ahantu naho hahurira abantu benshi kubera yuko mu gihugu usanga buri wese yambaye umwenda kandi uwo mwenda agomba kuba afite aho yawuguze.

Hirya no hino mu masoko hacururizwamo ibintu byinshi bitandukanye ariko nk'umucuruzi ujya ubicuruza aba azi neza igicuruzwa runaka aho yagishyize ku buryo mu gihe cyose abonye umukiriya ugikeneye bitamusaba gushakisha ahubwo ahita areba hahandi yagishyize.

Nyuma y'uko habaho amaduka acuruza ibyo kurya nk' imbuto ariko ibyo bicuruzwa akaba bicuruza hanze, kuri ubu ngubu hari amaduka acuruza ibyo kurya ariko akabicururiza mu nzu, mu rwego rwo kugira ngo akomeze yimakaze isuku n'umutekano w'ibyo byo kurya.

Bimwe mu bintu biranga umunyarwanda nyakuri kandi usobanutse n'uko u aba afite ubwisungane mu kwivuza, kubera ko ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ntarembera mu rugo, cyangwa se ngo azahazwe n'uburwayi ubwo aribwo bwose, ahubwo ahita agana ibitaro bimwegereye bakamufasha kandi byihuse.

Iyi foto iragaragaza zimwe muri serivisi z'igihugu zishinzwe gutanga ubwishingizi ku baturage. Urugero nka ejo heza araesiesibi, ibyo byose bikaba bifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nko kubaha ubwishingizi bwo kwivuza, kubaha ubwishingizi bageze mu za bukuru, n'ibindi n'ibindi bizatuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza bityo iterambere ryabo rikagenda neza.

u Rwanda tugira ibikorwa byinshi by'ubwirinzi ndetse n'iby'ubwishinginzi, ariko ikibiza imbere kurusha ibindi, ni igikorwa cyo gutanga ubwisungane mu kwivuza, umuturage wagize amahirwe yo gutanga ubwisungane mu kwivuza ntabwo ashobora kurembera mu rugo, cyangwa ngo arware indi ndwara yose imuzahaze kuko ahita agana ibitaro bimwegereye.

Mu gihugu runaka cyateye imbere usanga harimo amasoko y'ibicuruzwa bitandukanye, aho usanga hari amasoko acuruza imiti yo kwifashisha mu kanwa cyangwa se n'ibindi bisukura mu kanwa ndetse n'amavuta yo kwisiga ku mubiri, ibyo byose abaturage usanga bakeneye ari benshi.

Ahantu hacuruzwa imyenda yo kwambara, amashuka ndetse n'ibindi biryamirwa ni byiza yuko haba hafite isuku ndetse hanagaragaza neza icyo bacuruza icyo ari cyo. Igihe hari imyenda yambarwa hagomba kuba hari igishushanyo kiremwe neza nk'umuntu bambika imyenda mu gihe cyose bashaka yuko ababagana bareba ibyo bacuruza.

Hirya no hino mu gihugu hari amaduka acuruza ibyo kunywa bidasembuye. Uko nkibisanzwe mu gihugu ntabwo abantu bose ariko baba bashoboye ibyo kunywa bisembuye niyompamvu n'ayo maduka aba agomba kubaho kugira ngo na babandi bategera ibyo kunywa bisembuye bage babona ibyo kunywa kandi bitabahenze.

Inama yahuje abantu bagiye batandukanye ndetse n'abayobozi bari kuri mudasobwa zabo ndetse n'aba gafotozi n'ibikoresho bifashisha mu gufotora.

Buriya iyo wagiye ahantu gushaka ubufasha runaka, biba byiza y'uko wihangana mu gihe cyose hari abahagutanze bakabanza bakagukorera, nawe wageraho bakagukorera, bitabaye ngombwa y'uko uteza akavuyo ngo ube watanga abagutanze bahageze mbere kandi ariho ukiza.

Hari amasoko hirya no hino usanga acuruza ibicuruzwa bijyanye n'ibyo kurya, ariko ibyo kurya byaciye mu nganda. Kuko ibyo kurya byose ntabwo aba ari ngombwa ngo bibe byaratetswe. Ahubwo hari n'ibiba byaratunganyirijwe mu nganda, bigafungwa neza ku buryo bihita bijya ku isoko bidategereje gukorerwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose.

Hari amasoko atandukanye agenda acuruza ibintu bitandukanye. Ugasanga ayo masoko amwe namwe ibyo bintu acuruza agenda abivanga. ugasanga acuruza imyenda akanacuruza ibyo kunnywa cyangwa ibyo kurya, murwego rwokugira ngo umukiriya icyo akeneye cyose akibone kandi bitamuhenze.

Hirya no hino mu masoko haba hagiye hacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye, hari ibicuruzwa biba bikoze ku buryo bwa gihanga ku buryo bikura mu isoko uhihita ubikoresha cyangwa se uhita ubirya ako kanya bidasabye y'uko ujya kubanza kubiteka cyangwa ngo ugire ikindi ubikorera mbere y'uko ubirya.